Orudi maco inshuwarensi, duha agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi. Twandikire kuri numero ya watsapu ariyo ikurikira; zeru karindwi umunani umunani gatatu rimwe gatatu karindwi gatanu gatandatu cyangwa usure urubuga rwacu arirwo Orudi maco doti rwa kugira ngo dukorane mu bwishingizi.

Icyapa cya sita turavo insuwarensi cyamamaza ko guhera ku idolari rimwe n'ibice bitanu ku munsi, bashobora kuba bakavaringa icyuho cyahuye nacyo mu bikorwa byawe by'ubuhinzi. Cyangwa n'ibindi bikorwa by’ugomba gushinganisha uburyo bwo kwirinda igihombo gikabije.

Amakuru ya konti yacu, tariki eshanu z'ukwa cumi na biri, bibiri na makumyabiri na kane saa mbiri n'iminota mirongo itanu n'umunani, konte yacu havuyeho amafaranga y'u rwanda magana ane, tariki eshanu z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane saa moya n'iminota icyenda, havuyeho amafaranga magana ane, tariki eshanu z'ukwa cumi n'abiri saa kumi n'ebyiri na mirongo itanu n'irinwi, hajeho magana mirongo ine, tariki enye z'ukwa cumi n'abiri bibiri na makumyabiri na kane hajeho amafaranga...

Inkweto z'abagabo n'abagore akenshi na kenshi uzisanga mu masoko atandukanye y'igihugu, kandi akenshi usanga ari inkweto zihagazeho, cyane cyane iyo urebye inkweto z'abagabo usanga ari izo twita amacongo, iz'abagore zikaba ari izifite uduti tureture two bakandagiza inyuma.

Iduka ricuruza imyenda y'imbeho, irimo imipira y'umukara, imipira ya kake ndetse n'andi mabara meza yo kwambara.

Inyubako nini ikoreshwa mu gusuzuma imodoka, hari imodoka y'umuhondo iri mu kirere yazamuwe n'ibyuma, hari n'indi iparitse hasi, iyi nyubako igizwe n'amakaro y'umweru ikagirwa n'ibyuma byinshi ndetse n'ibindi by'ikoranabuhanga byifashishwa muri ubu buryo.

Ifuso nini ihagazwe imbere n'abagabo babiri, iparitse ahantu h'amapave cyangwa h'amabuye, ku ruhande rwayo hari inyubako ndende, nyuma yaho hari ibyuma bitwara umuriro w'amashanyarazi mu byerekezo birebire.

Imodoka nini ebyiri iy'ubururu, iy'umuhondo zihagazwe imbere n'abagabo babiri bo mu Kagera motozi ndetse ku ruhande hari izindi modoka z'umweru, harimo akabeni, hakabamo akarava fo, inyuma yaho hari imigano myinshi ikikije iki kigo.

Inyubako y'Akagera motozi, ni ahantu hacururizwa cyangwa hagatangirwa imodoka mu buryo butandukanye. Aha rero hari ababikira babiri baje kugura imodoka, hari umugabo bigaragara ko ari we uri kuyibagurisha, iri ku muhanda h'amapave.

Niza miriki indasiteri ikigega cyo babikamo amata gifite ibyuma bicunga ko nta kibazo amata yagize atapfuye ndetse afite ubuziranenge ku buryo nta ngaruka yagira ku buzima bw'abantu ari mu cyumba kirimo amakaro y'umweru urukuta rukoresheje amabuye n'ikimeza ku ruhande.

Iduka rinini hahagazemo umugore wambaye ikanzu ndende, ufite umwitero w'umweru ku rutugu, witeze agatambaro mu mutwe, uhetse isakoshi y'umukara, iri duka rinini harimo imineke, amaji ndetse n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro Rwanda reveni otoriti, kiramenyesha ko purayimu inshuwarensi limitedi nta mwenda ugifitiye ndetse kandi cyishyuye ku gihe. Nta bihano bayishyiriyeho, yishyuye amafaranga ibihumbi magana abiri mirongo itanu. Atagira andi yiyongeraho.

Mu buzima bwacu bwa buri munsi dukenera amafaranga kugirango tubashe kwiteza imbere mu byo dukora byacu bya buri munsi, urebye usanga dufite amafaranga; inode, ibiceri kandi bidufasha kwiteza imbere mu buzima bwacu.

Amaboko afashe inote z'ifaranga ry'ubuhinde inoti ziriho ishusho ya mahatima gandi umwe mu bayobozi b'ingenzi mu mateka y'ubuhinde. Hari inoti z'amafaranga magana atanu n'iz'igihumbi ziza mu mabara atandukanye gusa izi note zaciwe mu gihugu cy'ubuhinde mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu rwego rwo kurwanya ruswa no gukumira amafaranga y'ibihimbano.

Abantu babiri bafashe amafaranga, umwe wambaye ishati y'umukara afashe amadorari, undi wambaye ishati y'umweru afashe amafaranga yo muri Pakisitani, harimo n'inoti ya bitanu, akaba ariyo mafaranga akoreshwa muri Pakisitani bisa naho bashobora kuba bari kugurana amafaranga.

Intoki z'umuntu zifashe amafaranga y'amahinde ndetse amaboko y'uyu muntu hariho ibikomo byinshi bizengurutse ibiganza byose afite akantu kameze nk'impeta ku rutoki rwe.

Akazu gashinzwe kohereza amafaranga no kuyakira, gafite serivise zitandukanye harimo iza wesitini yuniyoni, mani garamu, kosovo, hero pesa, n'izindi serivisi nyinshi zitandukanye, ku ruhande hari ibyatsi, inyuma hari uruzitiro rukikijwe n'ibirango by'umweru, inyuma hariyo igiti cyiza.

Umugore wicaye mu biro by'ivunjisha, wishimye usa nk'aho afite ibintu byinshi byamushimishije, ari byo ahugiyemo cyangwa ari akazi, ariko biteye umunezero, hari amabara y'ubururu, amabara y'icyatsi ndetse n'ibindi byinshi.

Icyumba cyo kuriramo kirimo intebe z'imbaho, hakaba ameza y'ikirahure, hejuru yaho hateretseho ibikombe cyangwa ibirahure cyangwa ibyo twita amatasi byo kunyweramo amazi cyangwa icyayi n'ibindi binyobwa bitandukanye.

Icyumba cyo gufatiramo amafunguro kikiri gutegurwa gifite intebe z'urubaho, ameza y'urubaho ariko agomba kongerwaho ikirahure hejuru, gifite amakaro y'umweru, kikagira inkuta zifite amarangi y'umweru.

Icyumba cyo kuriramo kirimo intebe nziza esheshatu, ameza magari afitemo ikirahure hagati, hasi ifite amakaro ajya kuba nka karokaro y'umukara n'umweru ikagira urukuta rw'umweru ndetse n'umuryango wijimye.

Intebe nziza zo mu nzu, zisize ibara ry'ubururu, zifite ameza y'umweru, ku ruhande hari inzu isize ibara ry'umuhondo, hari umuntu wicaye wishimye ari kuri telefone n'umuryango ufunguye, hejuru ye hari mubazi ikontorora umuriro w'amashanyarazi.

Mu buzima bwa buri munsi dukenera kurya ndetse kandi iyo tugiye kurya tugomba kujya mu cyumba cyabugenewe ariho harimo ameza, intebe ndetse n'ibindi bihakikije ni muri ubwo buryo rero mu buzima bwacu bwa buri munsi iyo tugiye kurya tugomba kwegera ameza tukajya mu cyumba cyabugenewe.

Icyumba cy'uruganiriro kirimo amatara yaka neza, kirimo intebe z'umukara ndetse n'iza kake yijimye cyangwa za shokora n'ameza meza y'icyerekezo turimo.

Ubwiherero bwo mu nzu bugizwe na dushe cyangwa aho bakarabira, umusarani ugezweho wa kijyambere, impapuro zo mu bwiherero, harimo amakaro yo mu bwiherero, ku rukuta hari amakaro y'umweru hakaba ibirahuri bisa neza ndetse n'inkuta z'umweru.

Sawa citi supamaketi ishami rya Remera, riherereye iruhande rwa purimu inshuwarensi, mbere yaho hari igiti cy'umukindo, ndi mu nyubako yo hasi, hejuru harimo inyubako igeretseho y'ibirahure byijimye.

Akenshi mu buzima dukunda guhitamo banki twakoresha ariko iyo tugiye guhitamo banki y'abaturage tugendera ku bwoko bw'inguzanyo yayo, kwishyura mu gihe kirekire kandi ntibajya barenza inguzanyo ya miliyoni mirongo itatu ku muntu ariko bishoboka ko iyo ari kampani yanarenga.

Isoko ricuruza, amashaza, imineke, inyanya, umuceri, ibishyimbo ndetse n'ibindi byinshi byifashishwa mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Isoko rusange rigari, ririmo abacuruzi benshi batandukanye, bacuruza imyenda bacuruza amavuta, hari umukobwa wambaye ikanzu, uhetse agakapu, hari n'undi mukobwa wambaye agapfukamunwa ndetse n'abandi bantu, bari muri iri isoko ari abaguzi ari abagurisha.

Umukarani wikoreye umufuka w'imizigo, hejuru hariho akandi gafuka gato, inyuma ye hari abandi bakarani, inyuma yabo hari umudaso, hakaba umupolisi abo bose ni abashinzwe umutekano, imbere y'umupolisi hari umugore ukenyeye umwitero, urimo amabara y'umuhondo, ku ruhande hari abacuruzi b'ibitoki by'imineke.

Iduka rinini ry'ibicuruzwa byo kurya, imbere yaryo hakoreshejwe amabuye atondetse neza, hari abagabo bahagaze ku muryango, umwe asa na ho ari kureba mu gikapu abandi bamuhanze amaso.

Umugabo wambaye umupira utukura afashe telefone igaragaza ubwishyu bw'ibyo yaguze afite igikapu cya kefusi gitwayemo ibyo yaguze ari kumwe n'undi mugabo wambaye umupira n'ingofero bya Emutiyeni agaragara aseka bishimishije.

Ugiye kwishyura amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bibiri magana atanu kuri Jean Bosiko ikiguzi ni zeru, emeza ushyiramo umubare w'ibanga kugira ngo unoze iyi serivisi yo kwishyura.

Urubuga rwacu rwitwa afurifama maketi tukuzanira ibicuruzwa tubikugereza iwawe ibyo kurya ndetse kandi iyo dukeneye kuba waduhamagara kuri telefone igendanwa 0785435744 cyangwa ukadusura ku rubuga rwacu cyangwa ukadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu.

Alibaba ni urubuga rukorera murandasi, rwiyemeje kujya rutanga serivisi zo guhuza abaguzi n'abagurisha, babaha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, imyambaro ndetse n'ibikoresho by'ubwubatsi, mu bice byose bitandukanye by'isi.

Iyi nyubako iherereye mu mujyi wa Kigali, ikodeshwa amadolari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, ikaba ifite ubusitani bwiza butanga umwuka mwiza wo guhumeka, ikaba ari inzu ndende igeretse inshuro nyinshi.

Iyi nzu ikodeshwa amadolari igihumbi magana atanu ku kwezi, Iherereye muri Kigali. Ifite icyumba gifite ibikoresho byiza, harimo uburiri bunini bufite umutaka w'umukara, amatara agezweho mu gisenge ndetse n'idirishya rinini rituma habona umwuka n'urumuri. Ibi bigaragaza ko iyi ari inzu ifite ibikoresho byiza kandi iri mu gace keza ka Kigali.

Icyumba cyiza gikodeshwa, giherereye mu mujyi wa Kigali muri Kabeza; gikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, kikaba gifite imisego, kikaba giteye neza, gifite amarido meza n'ibindi.

Inzu nziza ifite amarangi y'umweru, ikagira ibyumba byo kubamo bimeze neza, ikaba iherereye muri Kigali, ikaba igura miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda.

Inzu nziza yo kugura muri Kigali, ifite amarembo manini meza yubatse bigezweho, ifite inzugi zisizwe irangi rya zahabu, hubakishwa amatafari ahiye, ihagaze miliyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'u Rwanda.

Inyubako ndende, y'umweru ifite amadirishya y'umukara, inzugi z'umukara, iherereye mu mujyi wa Kigali, ikaba igurishwa amadorari ibihumbi ijana na mirongo ine.

Inzu ikodeshwa ifite ibyumba bibiri, ubwiherero bubiri ndetse n'ikibanza cyayo bwite, uwashaka ibindi bisobanuro yakwifashisha nimero igendanwa ari yo zeru, karindwi, umunani, karindwi, gatandatu, magana inani, gatandatu, gatandatu.

Inyubako nziza nini ifite akabingaro keza, ifite urupangu rw'amatafari, iherereye mu mujyi wa Kigali Kanombe, ifite ibyumba bine, ubwiherero butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu ku kwezi.

Inyubako nziza ya kadasiteri ikikijwe n'amabuye ayo bita mapave iherereye muri Kigali muri Kanombe, ikaba igurishwa ifite ibyumba bine, ikagira n'ubwiherero butatu.

Inzu iherereye Kibagabaga muri Kigali, ikaba itararangira kubakwa, ikaba ifite ibyumba bibiri na dushe imwe cyangwa tuwarete imwe, ikaba iri ku isoko uwabishobora yayigura.

Inyubako nziza nini ngari, ifite amarangi y'umweru ifite amapave cyangwa amabuye akoze meza, ifite urupangu rw'amatafari ahiye ikodeshwa ibihumbi magana abiri ku kwezi.

Agaciro kacu ni ukuba turiho dufite ibikorwa remezo bitwinjiriza amafaranga kandi bikaduteza imbere nk'igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego rero tugomba kwiteza imbere dusigasira n'agaciro kacu.

Iyi nyubako yacu igeretswe rimwe, ifite ibyumba bitandukanye hasi no hejuru, ikagira amajeride meza yo kuruhukiramo ndetse atuma muzima bwacu bwa buri munsi tugira ubuzima bwiza, aduha umwuka mwiza wo guhumeka.

Inyubako nziza ndende ifite amarangi yu'mweru, ibirahure by'umukara, n'inzugi z'umukara, ifite jaride nziza irimo busitani bumeze neza, ikodeshwa amafaranga amadolari ibihumbi bibiri, iri muri Kigali, hari na nimero wabahamagararaho.

Iguriro rinini ririmo ibicuruzwa byinshi by'amavuta, harimo abantu batandukanye basa n'abatanga izo serivise zo gutanga amavuta n'ibindi bikorwa bitandukanye bakora. Bari mu nyubako nini ifite n'ama esikariye azamuka hejuru n'amatara meza.

Icyumba cy'inama kigaragaramo abantu benshi imbere yabo hari undi muntu umwe uri kubasobanurira cyangwa uri kubaha amakuru ku bijyanye na serivisi bakeneye kandi bose bateze amatwi.

Umudamu munini wishimye uri guhaha mu iduka rinini, bigaragara ko anejejwe n'ibyo ari guhahira muri iryo duka.

Inzu nini kandi nziza ikoreramo ubucuruzi bwagutse irimo abantu benshi, harimo abakobwa bambaye amakanzu, harimo abakobwa bambaye ingofero, abamama bitandiye ndetse n'umugabo uteruye umwana bisa naho bari guhaha ibicuruzwa bitandukanye muri iri duka rinini.

Iduka rigari ry'ubucuruzi ririmo abamama benshi bari kugura, harimo afite ibikapu bambaye imyenda y'imikara bose, keretse imbere ni ho hari ufite umwenda w'umweru, iri duka rigiye rifite amarange y'umutuku niyo yiganje ku byapa bigiye biranga ibicuruzwa biri muri ako gace.